Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, wambaye ibirahuri bikingira amaso, udafite umusatsi, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hari abandi bantu bahanze amaso imbere yabo.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe ku ntebe z'umukara, imeza y'igiti nayo ifite ibara ry'umukara, inkuta mu ibara ry'umweru, ibyapa byamaza mu ibara ry'ubururu, bateraniye hamwe bari kuganira.

Abantu bari mu nama barimo abagore babiri bambaye imyenda itukura n'abagabo bambaye amashati, bahanze kandi bakurikiye urimo arabayobora, bambaye umwenda w'umweru n'ipantaro isa kake, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro na mudasobwa n'amazi.

Abagore n'abagabo, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bamwe bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza atwikirije ibitambaro bifite ibara ry'umweru, hateretseho amazi yo kunywa.

Umugore wambaye ishati y'umuhondo, ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru, hateretseho amazi hariho amacupa apfundikiye.

Abagore bambaye imyambaro ya kinyarwanda izwi nk'imikenyero ndetse n'imipira mo imbere, bicaye ku ntebe zisa umweru zikozwe mu biti, bafite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo amaterefoni ndetse n'udutabo two kwandikamo iby'inge....

Abagabo n'abagore bigaragara ko bari m'inama bahagaze inyuma yabo hari intebe zisa umukara amezi ari imbere yabo hariho ibitambaro bisa umweru n'umukara bari ahantu amatara ari kwaka naho harasa umweru.

Imbaga y'abantu yateraniye ahantu hamwe, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Imbere yabo ku meza hariho indangururamajwi ireba buri umwe, ku buryo yatanga igitekerezo kibigiye kuganirwaho. Iruhande rwayo hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugabo wambaye ikoti, ishati, karuvate n'amarinete, wicaye mu ntebe ifite ibara ry'ikijuju, imbere ye hari mudasobwa, arimo arakoresha iteretse ku meza, imbere ye kandi hakaba hari amacupa y'amazi, iruhande rwayo hari impapuro n'ikaramu byo kwandika ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugabo afashe indangururamajwi mu ntoki wicaye mu ntebe zitwikirisha igitambaro cy'umukara imbere ku meza hakaba hari amacupa y'amazi hari n'ibyapa bigiye bitandukanye byerekana uwicaye muri uwo mwanya.

Abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe bari mu nama, abagore bicaye mu caca hasi bakaba bari kumva ibyo umugabo ubari imbere ufashe urupapuro rw'umweru mu ntoki, arimo arabaganiriza, inyuma ye hakaba hari abandi bagabo batatu bicaye mu ntebe zibajijwe mu biti.

Abagore batatu bicaye ku meza iriho igitambaro mu ibara rya shokora ndetse n'umuhondo, bafite ibikoresho by'itumanaho mu ntoki, inyuma yabo hari intebe zisa umukara ndetse n'igikuta gisa umwera.

umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'urupapuro mu ijosi rwerekana icyo akora ni imibiri yombi yambaye n'ibirahuri bikingira amaso imbere ye hari telefone n'icupa ry'amazi inyuma ye hari abagore ndetse n'abagabo bitabiriye inama.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zisa umukara z'imifariso, imbere yabo hari imeza y'igiti iteretseho ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa, indangururamajwi ndetse n'ibyo kunywa, hari n'amabendera y'igihugu n'urimo arababwira.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Umugabo wicaye mu ntebe y'ibara ry'umukara uri mu nama irimo imbaga y'abantu benshi, imbere ye hari mudasobwa ifunguye arimo arakoresha, imbere ye kuri ayo meza kandi akaba atwikirije igitambaro cy'amabara atatu, umuhondo, ubururu n'umweru hateretseho n'amacupa y'amazi y'abicaye kuri iyo meza.

Abantu bicaye ahantu hamwe bari mu nama, bicaye mu ntebe zifite irangi ry'icyatsi cyijimye, bicaye mu ihema, harimo abambaye impuzankano ya gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, n'abambaye bamwe impuzankano ya gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zitwikiriwe n'igitambaro cy'umukara, imbere yabo hari ameza nayo atwikirijweho igitambaro cy'umukara ateretseho mudasobwa, impapuro zigiye zitandukanye n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagore babiri, abagabo babiri, abagore bicaye mu mpande, abagabo barimo hagati, bakaba bicaye ku ntebe basa nk'aho bari kugirana ikiganiro runaka, umugore umwe akaba afashe indangururamajwi mu ntoki wambaye amarinete, n'undi mugore na we akaba afashe indangururamajwi mu ntoki, wambaye imyenda isa nk'idozwe mu gitenge.

Abagore n'abagabo bari mu nama bambaye imyambaro itandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari imeza y'giti iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, impapuro ndetse n'ibindi birimo ibirahuri bifunguye.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bambaye amakoti mu ibara ry'umukara, imipira y'umutuku ndetse n'ishati y'ubururu, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari imeza ikoze mu giti, indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari icyapa.

Abagabo batatu bari ku murongo umwe bicaye mu ntebe z'umukara, bose bambaye amakoti babiri bambaye amashati, undi wambaye ishati na karuvati abandi batazambaye, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama, bambaye imyambaro itandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru ndetse zikoze mu biti. Bafite ibikoresho by'itumanaho ndetse na mudasobwa n'ibitabo mu ntoki.

Abagabo babiri, umwe wambaye ibirahure bikingira amaso ndetse n'ishati y'amaboko maremare mu ibara ry'ubururu, n'undi wambaye ishati y'umweru ndetse n'umukara, bicaye ku meza y'igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari umugore wambaye imyenda isa umukara, inyuma yabo hari icyapa.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru, biteretseho mudasobwa ndetse n'amazi n'ibyapa bigaragaza icyo inama yabo igamije n'urukuta rufite ibara ry'umweru.

Abagore n'abagabo bari mu nama, bambaye amakoti afite amabara atandukanye, intebe bicayeho zirasa umukara, amazi ateretse ku tumeza tw'ibiti mu macupa.

Imbaga y'abantu yicaye ahantu hamwe ku ntebe zigiye zitwikiriyeho ibitambaro bigiye bitandukanye harimo ifite ibitambaro by'icyatsi, ibitambaro by'umuhondo, bitambaro by'umweru, harimo abantu bambaye impuzankano hejuru bamwe na bamwe muri bo, imipira iciye amaboko magufiya y'ubururu.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye ku ntebe imbere yabo hari ibitambaro bisa umweru biri ku meza n'ibirango bigaragaza inama barimo ikigamije, umwe muri bo afite indangururamajwi isa umukara ari kubabaganiriza, ibikuta birasa umweru.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, bicaye ku meza iriho ibitambaro bisa umuhondo wijimye, bicaye ku ntebe zikozwe mu byuma ziriho n'imisego ndetse imbere yabo hari ibyapa bitandukanye, bigaragaza icyo inama barimo igamije, inkuta zirasa umweru n'amarido.

Igikorwa remezo cy'umunara w'itumanaho, mu ibara ritukura ndetse n'umweru, ukikijwe n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'amazu, hariho n'ibindi byifashishwa mu kwakira amajwi ndetse no mu kuyohereza.

Abanyeshuri bambaye impuzangano y'amashati y'umweru magufiya n'ipantaro na amajipo y'umukara, bicaye mu cyumba kirimo mudasobwa ziteretse ku meza, bicaye ku ntebe z'umukara.

Inzu mu ibara ry'umweru iruhande rwayo hari ibikorwa remezo birimo: iby'itumanaho ndetse n'amashanyarazi, umunara muremure ukozwe mu byuma, ku ruhande hari ibidukikije birimo ibiti n'ubusitani, ubwatsi.

Igikorwa remezo mu ibara ry'umweru n'umutuku uzengurutswe n'uruzitiro, harimo ibikoresho by'amashanyarazi bitangamo umuriro, amatara ndetse hari n'inzira nyabagendwa.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Ibikorwaremezo birimo amatara ari kumapoto, mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga inzira nyabagendwa, ibidukikije birimo nk'ibyatsi, indabo n'ibiti, biriruhande rw'uruzitiro.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara, uciyemo imirongo isa umweru, ibikorwaremezo birimo amashanyarazi, ibidukikije, ibiti ndetse n'indabo, uruzitiro ruparitseho ibinyabiziga ku ruhande.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo rusange mu ibara ry'ubururu n'umweru, iri kunyura mu muhanda usa umukara uciyemo imirongo y'umweru, ku ruhande hari inzu abagenzi bicaramo bategereje imodoka mu ibara ry'ubururu, hicayemo n'umuntu.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi biri ku mapoto, hariho n'insinga n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusakaza amashanyarazi, iruhande rwabyo hari kunyura abagore ndetse n'inyubako ndende z'ubucuruzi.

Inzu ndende isa umuhondo ifite ibirahure, iruhande rwayo hari izindi z'ubucuruzi, mu ibara ry'umweru, igipangu cy'icyatsi ndetse n'umukara, imbere yaho hari umuhanda nyabagendwa uri kunyurwamo n'ibinyabiziga, birimo amagare ndetse n'abantu barimo baranyuraho.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Ibikorwaremezo birimo amashanyarazi, amatara, ibendera ry'igihugu, ibara ry'umuhondo, icyatsi, n'ubururu, gishinze ku giti, iruhande rwacyo hari ibidukije, birimo ibiti n'indabo, amazu n'imodoka iparitse.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi birimo umunara muremure ukozwe n'ibyuma bigiye binyuranyuranye, insinga z'amashanyarazi, ibidukikije birimo ibiti, amazu mu ibara ry'umweru ndetse n'igipangu mu ibara ry'ubururu.

Igikorwa remezo cy'amashanyarazi y'umunara muremure wubakishijwe ibyuma bigiye binyuranyuranyemo mu ibara ry'umukara, iruhande rwacyo hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi n'ikirere.

Ibikorwa remezo birimo iby'amashanyarazi, umunara muremure wubakishwa ibyuma bigiye binyuranyuranyemo, insinga z'amashanyarazi, ibidukije birimo ibiti, amazu, umuhanda, mo iri kunyuramo ndetse n'abaturage.

Inzu mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amabuye yubatse urukuta rw'ifatizo rwo hasi, amabati ni umutuku, bikikijwe n'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Imodoka ni imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru, umutuku n'umukara, yifashishwa ivana inkomere mu bitaro bimwe ibijyana mu bindi, yifashishwa ivana inkomere mu rugo Iyijyana ku bitaro cyangwa yifashishwa n'inkomere aho zagiriyega agisida ikazijyana mu bitaro kugira ngo zitabweho.

Inzu isizwe irange ry'umuhondo ikaba irimo umuntu wicaye mu intebe y'umukara ifite udupine hasi, hanze yayo hakaba hari intebe yo gutegerezwaho mu gihe utegereje ko baguhereza serivisi yicawemo n'umugore wambaye imyenda y'umuhondo, iyo nzu ikaba yubatswe ifashwe n'inkingi z'amabuye manini na sima, isizwemo irange ry'umukara.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse n'ibyuma, batonze umurongo bategereje guhabwa serivisi ku nzu, ifite imiryango ndetse n'amadirishya, amatafari atukura n'ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye impuzankano mu ibara ry'iroza ufite uruhu rwirabura iruhande rwe hari undi muntu wambaye ikanzu isa umukara ndetse n'umweru bigaragara ko ariyo mu butabera iruhande rwe hari ifoto iriho ikarita ndetse biri ku gikuta gisa umweru .

Umugore wambaye ikanzu y'amaboko magufi y'umuhondo, ibirahure bikingira amaso n'umugabo wambaye ikote risa ubururu n'ishati y'umweru n'ibihure bikingira amaso ufite umusatsi muke, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibintu bitandukanye birimo ibirahuri byo kunyweramo ndetse n'abandi bantu batandukanye bari inyuma yabo.

Imbaga y'abantu yateraniye ahantu hamwe, bamwe bafite imitako yo kwikingira izuba, aho bicaye bategereje umugabo ubahagaze imbere wambaye impuzankano y'ingororwa zo mu Rwanda usa nk'uri kubaganiriza ahagaze imbere.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe, bambaye amakote asa umukara ndetse n'umweru, bicaye ku meza iriho ibitambaro bisa umukara, imbere yabo hari amazi, intebe zirasa umutuku, bigaragara ko bari mu nama.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro itandukanye ndetse bicaye ku ntebe y'igiti, imbere yabo hari imeza y'igiti, ibitambaro birimo amabendera y'igihugu, bicaye mu busitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore wambaye ingofero y'uruziga isa umukara n'ibirahuri bikingira amaso, w'imibiri yombi, wambaye n'ikanzu itukura n'umweru ndetse n'umukara, inyuma ye urukuta rurasa umweru.

Abagabo bambaye impuzankano mu ibara ry'iroza n'abandi babaherekeje nabo bambaye impuzankano mu ibara rya kaki bari kwerekeza ku nzu y'ubutabera ifite ibara ry'umweru, ubururu amadirishya ndetse n'amabati n'ibidukikije.

Abagore bambaye imyenda y'ibara ry'iroza, ibara rya oranje basa nk'aho bambaye imyenda y'ingororwa zo mu Rwanda, bicaye ahantu hamwe basa nk'abari gukurikira inyigisho runaka.

Abagore n'abagabo, bateraniye hamwe mu nama, umwe muri bo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umweru, ufite impapuro mu ntoki, ari kubaganiriza ahantu hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubwatsi n'imodoka iparitse.

Umugabo wambaye amarinete, ikote ry'umukara wafashwe n'abapolisi bambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda ya Gipolisi, inyuma yiwe hakaba hari abandi bagabo babiri bambaye amakoti, ishati, karuvate.

Abagabo bambaye impuzankano ifite ibara rya kaki bahagaze iruhande rw'igipangu gifite ibara ry'umukara undi arimo arasohoka yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara inyuma ye hari abandi bamuhanze amaso.

Umugabo wambaye impuzankano mu ibara ry'iroza, umusaraba mu ijosi agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, ku ruhande rwe hari undi wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umweru, imbere hari mudasobwa bigaragara yuko akora mubintu bijyanye n'amategeko.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza, agapfukamunwa k'iroza, imyenda isa nk'isobanura impozankano y'ingororwa zo mu Rwanda afashe mu ntoki igitabo cy'ibara ry'ubururu, inyuma ye hari umucungagereza.

Abagabo batatu barimo babiri bambaye impunzankano mu ibara ry'iroza, n'undi wambaye ikanzu mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari abagore bari kuri mudasobwa iteretse ku meza ndetse bambaye n'amakanzu mu ibara ry'umukara n'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano mu ibara ry'iroza, afite impapuro mu ntoki, ku ruhande rwe hari abandi bambaye amakanzu mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'udupfukamunwa, bigaragara ko bakora mu mategeko, bicaye ku ntebe z'ibiti, inyuma yaho hari abantu baje gukurikirana urubanza.

Umuhanda usa umukara urimo n'ubusitani ndetse n'ibindi bikorwa remezo birimo amashanyarazi, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru iri kunyurwamo n'umuntu ufite utujerekani n'imodoka iparitse y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rw'inzu ndende hariho n'ibidukikije.

Imodoka yo mu ibara ry'umukara n'umweru ya gipolisi, iruhande rwayo hakaba hari umugore wambaye impuzankano ya gipolisi, inyuma yabo hakaba hari inzu y'ubucuruzi yanditseho zigama CSS, Muhima buranshi.

Imbaga y'abantu ihagaze ahantu hamwe ifite intwaro mu ntoki bambaye impuzangano ya gipolisi y'u Rwanda, ku ruhande rw'akaboko kabo k'ibumoso bafiteho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo n'abagore bakaba bateraniye hamwe mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bakaba imbere yabo ku meza bafite indangururamajwi buri umwe ku buryo yatanga igitekerezo ku biri kuganirwaho mu nama.

Abagabo bambaye amakoti asa ubururu n'umukara, n'amashati y'umweru ndetse n'abagore bambaye amakanzu, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu ziikozwe mu biti, imbere yabo hari ibitabo biteretse ku meza, ikozwe mu biti.

Ibaga y'abantu bahuriye ahantu hamwe, mu nzu nini bicaye basa nk'abari kuganira ku ngingo runaka, bamwe bicaye ku ntebe z'umweru, abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bari mu nzu yubakishijwe hasi amakaro ifite inkuta kandi n'amadirishya arangaye.

Imodoka iri mu bwoko bwa rava iri kugendera muhanda wa kaburimbo, aho iteganye n'umugenzi uri kugendera mu muhanda wateganyirijwe abanyamaguru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ingofero y'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki inyuma ye hari ibidukikije, birimo ibiti kuruhande rwe hari inkingi ifite ibara ry'mweru n'umutuku.

Abagore n'abagabo bicaye mu nzu ifite irange ry'umweru, amatafari asa umuhondo ndetse n'umukara ku ntebe z'umweru n'umukara, imbere yabo hari mudasobwa n'indangururamajwi ziri ku meza z'ibiti, amazi.

Umugore wambaye ikoti risa ubururu n'umupira w'umweru, ufite imisatsi myinshi y'umukara, wicaye mu ntebe, imbere ye hari igitambara kiri mumabara y'ubururu ndetse n'umuhondo n'indangururamajwi ndetse n'amazi n'impapuro afite mu ntoki.

Umukuru w'Igihugu yambaye ikote ry'umukara, ari kuvugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari abagore n'abagabo bicaye ndetse n'imbere ye bamuhanze amaso, ku ntebe zisa umukara, imeza z'ibiti bateze amatwi.

Imbaga y'abantu yahuriye mu nama bari kuganira ku ngingo runaka, higanjemo abagabo n'abagore, aho bicaye bafite mudasobwa imbere barikoresha, imbere yabo kandi hakaba hari n'indangururamajwi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara ndetse n'ubururu n'amapantaro, n'abagore bambaye imkenyero bafashe ku ibendera ry'igihugu bazamuye ikiganza cyabo cy'iburyo, hari insakazamashusho iri kwerekana ibiri gukorerwa aho ngaho hose.

Abagabo n'abagore bari hamwe mu myambaro itandukanye bahazengurutswe n'uruzitiro rufite utwuma tw'umukara ndetse n'umutuku n'umweru, inyuma yabo haparitse ibinyabiziga bitandukanye harimo abana bato ndetse n'abandi bafite ibikoresho byifashshwa mu gufata amajwi n'amashusho.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe mu nzu ifite ishusho y'umuzenguruko, bahanze amaso uri kubaganirira, hari amatara ari kwaka, ndetse n'ibitambaro bikingira amadirishya.

Imbaga y'abantu ihagaze mu mbuga yubakishijwe amabuye batonze umurongo bari imbere y'ihema ry'umweru, ihema rifite ku mpande mabara asa nk'aho ari mu ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ubururu, umuhondo, icyatsi.

Inzu iri ku isoko igurishwa nziza iri kimironko i Kigali isa umweru ikaba ikikijwe n'amakaro n'ibirahuri ikaba ifite amapave ashashe hasi n'indabyo ziteye ku ruhande.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Abagore n'abagabo bahagaze, abagore bambaye imikenyero, umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati, karuvati, impantaro y'umukara y'umukara, inkweto z'umukara, bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'akaboko k'ibumoso aho bazamuye ak'iburyo bari kuvugira ku ndangururamajwi zibahagaze imbere.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu ibara ry'umweru n'ubururu n'umukara, iri kumanuka yerekeza mu muhanda ufite ibara ry'umukara, uri kunyurwamo n'ibindi binyabiziga birimo amapikipiki, ku ruhande hari ibidukije birimo ibiti ndetse n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu n'umweru n'uturango tw'umutuku ndetse n'umukara, ku ruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru, iparitse mu muhanda nyabagendwa usa umukara uciyemo imirongo y'umweru, hari n'ibidukikije birimo ibiti.

Imodoka nini y'ibara ry'umutuku n'umukara, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imbere yayo hakaba hari abagabo babiri ba ku igare rye mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba hari umuhanda wagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu bwikorezi mu ibara ry'umweru, umukara, ubururu, icyatsi, kiri kunyura mu muhanda unyurwamo kandi usikanirwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara, inzira y'abanyamaguru, ku ruhande hari ibidukikije.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, ku ruhande hariho inzira y'abanyamaguru, uri kunyurwamo n'imodoka z'ubwikorezi zirimo ibara ritukura, inyuma yazo hari amapikipiki ndetse n'ibiti bikikije umuhanda n'abantu bari kuwunyuramo.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara hari kunyurmi ibininyabiziga bitandukanye, harimo, ibyifashishwa mu gutwara imizigo nk'amakamyo mu ibara ry'umutuku ndetse n'agapikipiki gato kifashishwa mu gutwara imizigo mu ibara ry'icyatsi n'imodoka itwara abagenzi mu buryo busanzwe n'ibidukikije.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo rusange ifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, ibyapa ndetse n'amagambo yanditse nka cunga konte ni ubuntu, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'amatara.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibyatsi, uri kunyurwamo n'imodoka yifashishwa mu bwikorezi, mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'ubururu, n'ibindi binyabiziga birimo amagare.

umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga kuruhande hari inzira y'abanyamaguru harimo haracamo imodoka ifashishwa mu gutwara amazi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ibidukikije birimo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo gukoreshwa n'imodoka nini, yo mu bwoko bwa rukururana, ifite ibara ry'umutuku, umukara, icyatsi, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti biteye, bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, ubisiganirwamo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bibiri, kimwe cyifashishwa mu bwikorezi gifite ibara ritukura n'umukara n'ikindi gitwara abantu mu buryo busanzwe, mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ikinyabiziga gitoya cyikoreye ibicuruzwa mu ibara ry'umweru n'umukara, imbere yacyo hari ikindi kinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, iri kunyurwamo n'abantu, icyapa gisa ubururu cyerekana ko ari ahahagararwa n'imodoka.

Imodoka nini irangaye inyuma yagenewe kwikorera imizigo y'ibara ry'umweru ikaba iri muri kaburimbo, imbere yayo hakaba hari umumotari utwaye ipikipiki iriho umugenzi, iruhande rwa kaburimbo hakaba hari akayira kagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru karimo karakoreshwa n'umugore.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara uciyemo imirongo y'umweru, iruhande rwaho hariho inzira y'abanyamaguru, uri kunyurwamo n'imodoka ifite ibara ry'ubururu n'ibidukikije birimo ibiti, ibikorwaremezo by'amashanyarazi, ndetse n'ibyapa byo ku muhanda.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo rusange, mu ibara ry'umweru, umukara, icyatsi n'ubururu, iri kunyura mu muhanda nyabagendwa usa umukara, inyuma yayo hari ibinyabiziga birimo amapikipiki, ku ruhande hari inzira nyabagendwa n'ibidukikije birimo ibiti n'ubusitani.

Umuhanda nyabagendwa urasa umukara, imirongo iwugabanya ni umweru, haranyuramo ibinyabiziga birimo amapikipiki yikorera ibicuruzwa n'ayatwara abagenzi, inyubako ziri ku ruhande z'ubucuruzi ni ndende ndetse n'ingufu mu mabara atandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, y'ibara ry'umweru n'umukara irimo n'abagenzi, ikaba iri gukoresha umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari indi modoka ngufiya, iruhande rwayo hakaba hari inzira yagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwayo hakaba hari ibiti biteye birebire bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'amagare abiri, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima, iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda w'umukara, uciyemo imirongo, mu ibara ry'umuhondo n'umweru, uri kunyurwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'ipikipiki, mu mabara y'umutuku n'umukara, gitwaye abantu babiri, iruhande rw'umuhanda hari uruzitiro rufite ibara ry'umweru, ibidukikije birimo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara. Inzira y'abanyamaguru, ibidukikije birimo ibiti, hari kubisikanirwamo n'imodoka z'ubwoko butandukanye, izikorera imizigo ndetse n'izitwarwa n'abantu mu buryo busanzwe.

Umuhanda wa kaburimbo urakoreshwa n'imodoka itwara abagenzi rusange, ku ruhande rwayo hari inzira ikoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima, iruhande rwayo hari ibiti biteye bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, uranyurwamo n'ibinyabiziga by'amapikipiki abiri, biri kubisikana kimwe gitwaye abagabo babiri, n'ikindi gitwawe n'umuntu umwe, iruhande rwaho hari ibidukikije birimo ibiti, ibikorwa remezo by'amashanyarazi, ndetse n'amatara.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba akayira kagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwako hakaba hari ruhurura yubakishijwe amabuye manini na sima yageneyewe kunyuramo amazi mabi n'amazi y'imvura.

Imodoka y'ibara ry'umweru n'umukara itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni umuhanda wa kaburimbo, urimo urakoreshwa n'abamotari batwaye amapikipiki ariho abagenzi, iruhande rwawo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, iruhande rwako hari ruhurura, yubakishijwe amabuye na sima yagenewe kunyuramo amazi mabi n'ay'imvura.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa, mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'umukara, iri kugenda mu muhanda unyurwamo n'ibyabiziga ufite ibara ry'umukara, inzira y'abanyamaguru ku ruhande, amapikipiki ndetse n'ibidukikije birimo ibiti.

Umuhanda nyabagendwa, uri kubisikanirwamo n'ibinyabiziga birimo ibitwara abagenzi mu buryo rusange, mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umukara, n'indi modoka itwara ibicuruzwa mu ibara ry'umweru n'umukara, hari n'abanyamaguru bari kunyura mu nzira z'abanyamaguru.

Inzira nyabagendwa iri kunyurwamo n'abantu batandukanye, harimo abagore n'abagabo ndetse n'abandi bicaye, iruhande rwabo hari inzu z'ubucuruzi, zirimo indende ndetse n'ingufi, ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ikibuga cy'imikino n'imyidagaduro mu ibara ry'icyatsi, umutuku, ibidukikije birimo ibiti n'ibyatsi, amabuye ndetse n'aho imipira ijugunywa mu gihe barimo baratsindana.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara, icyapa kigaragaza ko ahantu hatemerewe guparikwa mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'inyuguti mu ibara ry'umukara, kiri iruhande y'uruzitiro, rugizwe n'utwuma ndetse n'amabuye.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, urimo ibimenyetso by'umweru byerekana ko uwo umuhanda ukoreshwa, ku ruhande hariho utubuye dusize irangi ryumweru n'umukara, uri kwerekeza ku nzu ndende igeretse ifite ibirahuri by'ubururu, uruzitiro rw'utwuma ndetse isize irangi ry'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ibimenyetso bigaragaza abana bafite ibikapu mu ntoki mu ibara ry'umukara, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibyatsi n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye.

Icyapa cy'umuhanda kiri mu muzenguruko ufite ibara ry'ubururu mo imbere, ikirangantego kirimo kiri mu ibara ry'umweru, cyerekana icyerekezo cyo kunyuramo mu gihe uri gukoresha umuhanda abonye icyo cyapa.

Icyapa kigaragaza aho ibinyabiziga binyura bizengurutse mu muhanda, mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kiri ahateye ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi, kuruhande rw'inzira y'abanyamaguru, hari n'uruzitiro.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, uciyemo imirongo y'umuhondo, inzira y'abanyamaguru ndetse n'inyubako ku ruhande ifite irangi ryumweru, ibikorwa remezo birimo amashanyarazi, ibidukije birimo ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo akaba hari inzira yagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwayo akaba ari ruhurura ibamo amazi mabi, atemba, amazi y'imvura, iruhande rwayo hakaba hari icyapa cya mpande eshatu cy'umuhanda.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda mu ishusho ya mpande enye umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo kigaragaza aho imodoka zinyura zizenguruka.

Igipangu cyubakishijwe amatafari afite ibara ry'umuhondo hariho utwuma, ibidukikije birimo ibiti, ibyatsi handitsemo ijambo Kanombe ndetse n'amabuye.

Inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hari imodoka zihagaze, iruhande rwayo, hari imodoka ziri kugenda mu muhanda w'igitaka, iruhande rwawo hari ibiti bisa nk'ibikikije umuhanda w'igitaka.

Imodoka ntoya mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iparitse imbere y'inzu igeretse inshuro ebyiri, hariho ibyapa byanditseho fudu andi fruti mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, imbere yayo hari inzira nyabagendwa.

Ibidukikije birimo ibiti, ubusitani, ubwatsi n'indabo, inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inzira nyabagendwa, handitseho pariki y'inyoni.

Inzu ndende yo guturamo ifite amabati y'umukara, irange ry'umweru uruzitiro ruriho amatara, amatafari asa umuhondo ndetse n'ibirahure bisa umukara.

Inzu mu ibara ry'umweru, umukara, umutuku ibirahure bifunguye inzugi zifunguye hariho ibyapa byamamaza mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikinyabiziga gifite ibara ry'umuntu kiri kunyura imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimogurishwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, urimo kandi umunyonzi utwaye umugenzi ku igare, imbere ye hari umumotari nawe utwaye umugenzi kuri moto, iruhande rw'uwo muhanda hari inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, utubuye tw'umweru ndetse n'umukara, amatara ari kwaka, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubwatsi, ibinyabiziga birimo amagare, abantu bari kwambuka umuhanda ndetse n'ikiro.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara, uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse n'inzira z'abanyamaguru n'ibidukije birimo, ibiti, byatsi, uri kunyurwamo n'abantu ndetse n'ikinyabiziga.

Umumotari utwaye ipikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo arahagaze, imbere ye hari imirongo y'umweru icagaguye mu muhanda byerekana aho abanyamaguru bambukira, iruhande rwe hari ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitatse umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, utubuye dusize irange ry'umweru n'umukara, amatara, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubusitani, indabo, ibyatsi, hari kunyuramo ibinyabiziga bimeze nk'amapikipiki.

Amapikipiki ariho n'abamotari, bari mu muhanda wa kaburimbo, bahagaze ku murongo muremure w'umweru werekana ibinyabiziga bihagarara, bitegereje y'uko abakoresha umuhanda wo kwambuka w'imirongo y'umweru icagaguye mu muhanda wa kaburimbo aribo banyamaguru bambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragurishwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iruhande rwawo hari akayira kagenewe no gukoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwako hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti birebire bigiye bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, imirongo iciyemo mu ibara ry'umweru, amabuye ari ku ruhande mu ibara ry'umweru n'umukara, inzira y'abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukira, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'amatara n'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, utubuye dusize ibara ry'umweru n'umukara turi ku ruhande, inzira nyabagendwa ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka, amapikipiki ndetse n'amagare, n'abantu barimo barabisikana.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa n'abamotari batwaye ipikipiki, iruhande rwawo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, iruhande rwako hari ibiti n'ubusitani bwiza bikikije umuhanda, iruhande rwawo hari ibyuma birebire bifashe amatara y'umuhanda.

Umuhanda w'umukara uriho amabuye asize irangi ry'umweru ndetse n'umukara harimo amatara ari m'ibara ry'umweru ubusitani n'ibiti kuruhande hariho inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara ubisikanirwamo, urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, amapikipiki, uzengurutswe kandi ukikijwe n'inzira nyabagendwa ndetse n'ibidukije birimo ibiti n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'ibara ry'umweru icagaguye, yerekana y'uko abanyamaguru ari ho banyura bashaka kwambukiranya imihanda, iruhande rwawo hakaba hari akayira kagenewe no gukoreshwa n'abanyamaguru.

Amapikipiki atwawe n'abamotari, agiye mu muhanda kaburimbo, ageze ahantu hari imirongo y'umweru icagakumo, isizwe irange ry'umweru, byerekana ko ari aho abanyamaguru bambukira umuhanda umwe bajya mu wundi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu ibara ry'umukara, iruhande rwawo hari ibikorwa remezo birimo amatara ndetse n'inzira nyabagendwa n'ibidukikije, hari kunyuramo ibinyabiziga mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara biri kubisikana, n'abantu bari kwambuka umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, uriho inzira zinyuramo amazi ku ruhande, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'indabo, imodoka mu ibara ry'umweru, umukara, n'ibirahure, iri kuzamuka, iruhande rwaho hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa n'umumota utwaye ipikipikitariho umugenzi, wahande akabarinda imihanda ibiri, umwe uri hejuru y'undi aho iruhande rw'uwo hasi hari inzira yagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru imerakoreshwa n'abagabo babiri.